N'abakobwa basigaye baritinyutse bagakorera igihugu, ubu ngubu abahungu ntagwo aribo gusa bakorera igihugu, n'igitsina gore kigomba gutinyuka kigakura amaboko mu mufuka, kigakora kandi kigakora umurimo gwacyo gugikunze.

Erega hari n'amatungo yagenewe kubana n'abantu ,ubu iyo ufashe imbwa ukayirukana hari igihe uba wirukanye ibintu byinshi imbwa ikurinda ibisambo ,ikurinda ndetse n'ibindi bintu byinshi byaza kugutera iwawe nimugoroba, imbwa igufasha mu kazi, imbwa igukorera buri kimwe.

Birabujijwe kujya mu mazi utambaye ijire y'ubwirinzi，kuko bishobora gutuma uhura n'impanuka z'urupfu，ukaba wamira amazi ugapfa， kandi ibyo bintu Leta y'u Rwanda irabyanga cyane.

Urupfu ntaho rutagusanga, ntimuzibwireko kuba umuntu ari mu ngabo z'igihugu azapfa vuba, nawe uri mu muhanda ushobora kugenda imodoka zikakugonga ugapfa, ahubwo gukorera igihugu ntakobisa uba uri intwari.

Ukujije igihungu nta gihombo kibirimo ,ubaye intwari y'igihugu cyangwa ingabo y'igihugu nta kibazo kiba kibirimo ahubwo twese tugomba gutinyuka, tugakura mu mifuka ,tukitangira igihugu cyatubyaye.

Mu Rwanda nta muturage ugomba kurengana, ahubwo uwakoze icyaha uwo ari we wese agomba guhanwa n'amategeko, kandi bakamufunga kugira ngo n'abandi abo ari bo bose bagerageza gukora ibyaha babonereho urugero.

Ubwato buba bugomba gutwara abantu bwagenewe kugira ngo butware, iyo butwaye benshi buraremererwa bukarohama, kandi buri wese agomba kujya mu mazi yambaye ijire y'ubwirinzi kugira ngo atarohama.

Abasirikare n'abapolisi b'igihugu cy'u Rwanda ,baba barafashe umwitozo uhagije kuburyo bashobora kumanukira ku mugozi bari mu ndege ntibagira icyo baba kandi bakarandinga neza.

Amazi aba ari meza kuyogamo, kandi iyo ugiye mumazi hagati bishobora kukuviramo ingaruka zo kuba wamira nkeri, cyangwa ukarohama. Buri wese ntabwo agomba kujya mu maza hagati atambaye ijire y'ubwirinzi.

Kwicaranya abaturage hamwe biri mu bintu bibafasha mu kwitinyuka ndetse no kubaha abayobozi, kandi abo baturage bihurije hamwe batahiriza umugozi umwe, na ho ubundi nta muntu wikorera ku giti cye, ahubwo akorera muri rusange kugira ngo bose biteze imbere.

Buri muturage wese agomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu kandi agomba gutora umuyobozi yishakiye agashigikira ishaka ashatse kuko byose abifitiye uburenganzira.

Guhugura abaturage ni ibintu byiza, bituma abaturage bamenya ibyo batari bazi, ndetse bagakangukira no gufasha inzego za leta mu byo ari byo byose zibakeneyeho.

Dukundaga ingabo z'u Gwanda zaradufashije zidukura mu macakubiri ga jenoside yemwee ubungubu tubayeho neza tubanye n'abaturanyi ndetse tubaye mu buzima bwiza. Ibyo byose tubikesha ingabo zacu ndetse n'umuno musaza Polo kagame.

Kugira umutako ni ibintu byiza ,kandi kugira umutako w'ibintu bijyanye n'umuco wanyu byaba ari byiza kurushaho, kuko uwo mutako ukwibutsa amateka y'igihugu cyawe.

Gukama bakoresha ibyatsi kandi ntibyakora umuntu umwe keretse babirangije. Bakamira mu muvure hato utazajya gukamira mu kindi kintu ugasanga birapfuye.

Umutsima w'amasaka ni umutsima uryoha, ni umutsima wabaga uryoshye cyane cyane, ariko benshi ntibakiwurya barawutereranye, ni umutsima utera imbaraga, umutsima wubaka umubiri cyane.

Banyarwanda, Banyarwandakazi, twese turasabwa gusigasira umuco n'amateka byacu byasizwe n'abakurambere, kandi tukigisha abakiri bato amateka hato atazavaho yibagirana, ugasanga Igihugu cyacu gitaye umuco.

Aravuga cyane akunze gukoreshwa n'intore ziri kubyina kandi amayogi ni amayogi ya kera cyane aba ameze neza atanga ijwi ryiza kandi avuga neza.

Umugore w'intore aba asa neza, imikenyero yabo baba bakenyeye isa neza ndetse n'uduti bashyira impande y'umusaya tuba ari twiza cyane, tubabereye basa neza cyane.

Mu buzima busanzwe, iyo inka zimaze kurisha, zigomba kunywa amazi menshi cyane ahagije, kugira ngo zitarwara umwuma zikumagatana, ugasanga zanitse amahaha, kandi zitarabuze amazi yo kunywa...

Umutiba ni intaho y'inzuki, inzuki niho zibera zitera, zirya ubuki umuntu akajya mu mutiba ,akajya guhakura akajya ukumva bu buryoshye cyane.

Ntabwo bivuze ko bakamisha amaguru inzoga wayikamisha n'amaboko, ariko gukamisha amaguru wabikora wabuze imbaraga zo gukamisha intoki kuko inzoga ni ikintu kiba gikenewe cyane.

Umwuko n'igikoresho dukoresha, turi guteka cyangwa turi gushigisha imisururu cyangwa turi kwenga inzagwa, n'umwuko dukoresha turi guteka umutsima cyangwa igikoma n'ibindi.

Aha hameze nk'inzu y'umwami, iyi ni ingoro y'umwami kera ni guca yabaga imeze, yabaga yubatse neza yubatse mu byatsi byiza bikomeye cyane kandi yabaga inakomeye.

Umuduri ni igikoresho bakoreshaga kera bari gucuranga. Ku buryo bumvaga umuziki urimo umuduri ,wabaga uryoshye cyane. Kuwubyina ndetse no kuwumva byari byiza.

Kuboha ikirago ni bimwe mu bigize umuco wacu, kandi buri wese agomba kubyiga, ku buryo bavuze ngo haje amarushanwa yo kurushanwa mu gukora ikintu cya gakondo, buri wese yabona icyo akora.

Kera abakobwa bakundaga ibintu byo kuboha uduseke, napelo, udukoko ,ibyo bintu byose ni bimwe mu bintu bigize umuco. Abakobwa ba kera bakundaga kubiboha cyane kandi byabaga bisa neza cyane cyane.

Imbyino gakondo ni imbyino zibaga zisa neza cane. Imbyino z'aba kera zabaga ari nziza, kandi na n'ubu ziracabaho, uzibonaga ariko ahantu hamwe na hamwe, twese twese tugomba kuzitabira, tukabyina, tukareba, tugateza imbere umuco gwacu.

Umuntu wanywereye mu gicuma cyangwa mu inkongoro, umuntu yumva ntahandi hantu yanywera. Akanywesha umuseke w'umuziranyenzi, uwo museke uba ari mwiza, ukurura inzoga neza cyane.

Abantu ba kera barahigaga, bagahiga bakoresheje amacumu, imyambi, ndetse n'imihumetso, imwe bateresha amabuye bari guhiga inyamaswa kugira ngo bazirye. Ariko ubungubu ubuhigi bwaraciwe mu Rwanda.

Aba kera babaga babayeho neza ,barasangiraga bagiraga urugwiro, ndetse ntibapfaga gupfa ibintu by'ubusa. Abakera basangiraga inzoga ,bagasangira ibyo bejeje kandi ntihagire n'mwe ugira umururumba.

Inzu ndangamurage n'ahantu babika ibikoresho bya kera byakoreshwaga n'abami cyangwa ibindi bisigo ibyo aribyo byose byasizwe n'abakurambere bacu, ibyo bintu bibikwa neza kandi bifite n'umutekano uhagije.

Umutiba ni igikoresho cya kera bakoreshaga bari guhunika imyaka, kugira ngo zitazafatwa n'inundwe zigata umwimerere, ibyo bihingwa bashyiragamo byavagamo bimeze neza bafite n'intungamubiri.

Intore kuva na kera zahozeho kandi zigira umuco. Zambara amayugi. amayugi ari mu bintu bimwe bituma intore ziba intore nyantore, kuko zitaba intoramayogi. Intore zo mu Rwanda ziba zimeze neza cyane zinambaye neza.

abagore ba kera babaga ari beza kandi ni na bo batubyaye, ni na bo bakaka, ni na bo ba nyogokuru. Tugomba kububaha. Kandi kera bagiraga umuco barambaraga bakikwiza, ibi bintu byo kwitera mekapu nta byo bari bazi, babagaho basa neza cyane.

Isombe basekuriye mu isekuru iba ari isombe iryoshye cyane; isombe idakenera ibindi bintu kugira ngo igire intungamubiri, ahubwo yo ubwayo iba yifitemo intungamubiri, kuko iba yakoreshejwe ibikoresho gakondo itarimo ibyuma ngo cyangwa hazemo indi myanda.

Uduseke ni utuntu tuba tuboshye neza, ku buryo wagatwerereramo umuntu, ibintu ukaba nta wundi muntu wabibona, agaseke kaba n'umutako mu nzu, kuko kaba gasa neza, kari kugaragara neza.

Intore, kuva na kera, azahozeho. Ni nayo mpamvu buri wese agomba kwirukankira kuba intore, agomba guharanira kuba intore, ndetse ntabe n'intoramayogi, ahubwo akihutira guteza imbere umuco gwacu, hato gutazavaho guri gusibangana, gukibagirana.

Kera abami bambaraga neza ugasanga yambaye yikwije, bagiraga umusatsi mwiza ndetse n'amakamba bambaraga yabaga adasanzwe, wasangaga ameze neza cyane, ku buryo nta muntu w'ubu ngubu waribonana makamba yabaga ari meza cyane cyane.

Utu dukoko abakera bakundaga kuturiraho, ibiryo byabaga biryoshye cyane, baturiragaho nk'umutsima, nk'ibirayi cyangwa se ibijumba, cyangwa imyumbati. Kuko kabaga ari keza kukariraho.

Udukono tuba ari twiza. Tugaragaraga neza kandi tuva mu ibumba ryo mu Rwanda nta n'ahandi watubona. Kuko ni utuntu twiza. Abakera badutekagamo ariko nan'ubu baracyadutekamo.

Umwuko ni igikoresho dukoresha mu rugo， turi guteka ibiryo cyangwa igikoma，kandi tunagikoresha mu bintu bijanye no gushigisha imisururu， cyangwa kwenga inzagwa， naho turawukoresha cyane.

Gukoresha abana imirimo ivunanye ni bimwe mu bintu bitumaga bagwingira. Niyo mpamvu tutagomba kubakoresha izo mirimo zivunanye, tukabarinda ugo murimo, kandi buri wese agomba kubyubahiriza.

Umucuzi uwo ari we wese agomba gucura yambaye ibikoresho ibyo ari byo byose byabugenewe, kugira ngo yirinde ibibazo byamubaho aramutse ari gucura icyuma kikamucika kigataruka, ku buryo yaba afite ubwirinzi.

Isogo ni imboga aba kera bakundaga kujya, isogo zibaga zijyoshe, ariko zinaravuraga, ureke ko bamwe na bamwe batabizi.

kera mu bantu babaga bafite urusyo n'igasire byo kugira ngo babone ifu yo gutekamo igikoma cyangwa umutsima. Ariko ubu ngubu bisigaye byaracitse biba hamwe na hamwe.

Ibirago bibaho nk'umuco aba kera bakundaga kuboha, ibirago babohesheje imigozi, cyangwa ibirere ibirago, babiryamagaho bakabyicaraho, wabonaga bisa neza.

Twese tweberagaho muri gakondo. Ewe ntamatere yaje nyuma ariko ibirago turacabikoresha. Tugomba kuja turabiryamaho kuko bivuraga amavunane; ibirago ni byiza tukabiryamaho twese twese kandi.

Umuvure ni igikoresho ca kera abantu ba bakamiragamo umutobe cangwa inzoga. Wasangaga bijyoshe cane ariko ubu ng'ubu biri kugenda biracika, uri gusanga bamwe bari gukoresha amamashini, kandi tugomba kuguma ku muco gwacu.

Abamama ba kera bagiraga umuco bakambara bakikwiza ariko abubu basigaye bambara impenure ugasanga bimeze nkaba batambaye kandi ibyo bintu bigomba gucika buri wese agomba kwambara akikwiza kugira ngo asigasire ubusugire bw'umubiri we.

Intore kuva na kera zahozeho kandi intore iyo zishyize hamwe zivuga zifite izina. Urugero izina wenda nk'ibyiringiro gurupu, ugasanga intore zikorera hamwe ndetse ntacyo zimana.

Imbyino gakondo ni imbyino nziza cyane. Ziba zigaragariye amaso neza, kandi ziryohera buri wese uri kuzireba. Tugomba rero kwigisha abana bacu kuzibyina, kugira ngo hato umuco wacu utazavaho uri kwibagirana.

Inzu nk'izo tuzice mu Rwanda, nta nzu dukeneye mu Rwanda imeze gutya. Nta n'umuturage ugomba gutura mu nzu umeze gutya, igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyiteje imbere, izi nzu twazisezereye cyera. Niyo mpamvu tutagomba kuzituramo, buri wese agomba gutura aheza, kandi akabaho neza muri iki gihugu cy'u Rwanda.

Kera tuzi ko abantu bavuzaga amahembe, arikoku ubungubu umuco gwarajutse ,umenya ntakiba ho. Muzambonere umuntu uzi kuvuza ihembe azamundangire, nimero, zeru, karindwi, umunani, gatatu, kabiri, tandatu, umunani, cumi na kane, gatatu, ni uko.

Kuva na kera abakaraza bahozeho， bakoma ingoma neza， izo ngoma wumva ziri kujyana n’injyana neza cyane， kandi baba bafite n'intore ziri kubyina， imbyino zacu za gakondo, bimeze neza.

Ibi bintu ntabikibaho, ariko ni umuco gwacu tugomba kubikora. Gufata umukobwa ugiye gushingirwa ukamushiira mu ngobyi, ukamuherekezanya ibibindi by"inzoga ni ibintu byabaga ari byiza cane.

Utu ni udukoko twa kera abantu barigaho, uduseke bagemuragamo imfukire cyangwa ikindi kintu, ariko twabaga dusa neza, ubungubu kugataka mu nzu kaba gasa neza cyane.

Kuva kera intore zahozeho, ntore zizi kubyina, guhamiriza. Intore zabaga zifite ingabo, icumu mbese muri make intore zitwerekaga umuco gwa kera ukuntu byabaga byifashe.

Abana bacu tugomba kubatoza umuco gakondo， kugira ngo ejo utazavaho uri kwibagirana， cyangwa ugasibangana. Abana bacu bagomba kwitabira amakarabu， cyangwa amatsinda abigisha， izo mbyino gakondo.

Mu mutiba ni uw'inzuki, kandi n'inzuki ntizabaho zidafite umutiba. Mu mutiba tubonamo ubuki, kandi n'utwo dusimba ntitwabaho, tudafite agasimba kamwe katuyoboye ariko bita umwamikazi.

Umutiba ni ahantu kera babikaga imyaka ikavamo imeze neza nta kibazo ifite, nta n'ibisimba byagiyemo. Iyo myaka ukaba wakongera kuyitera cyangwa ukanayirya, ibi byose byarakurebaga, yabaga isa neza, imeze neza cyane.

Inkongoro， ni igikoresho aba kera bakoreshaga bari kunywa amata， cyangwa bari gukoresha n'iyindi mirimo. Inkongoro ni igikoresho ukoresha uri gukama inka，ukayikamiramo amata.

Iyi pombo uyifashisha uri gutera umuti ibirayi, ibishyimbo, amasaka ndetse n'ibindi bihingwa ibyo ari byo byose, iyi pombo rero wayikoresha uri gutera umuti n'amatungo yawe yarwaye utundi dusimba cyangwa udukoko.

Agakono ni kamwe mu bintu abapfumu bakoresha bari guterekera abadayimoni babo, kandi ugasanga nta kibazo babifiteho bakadukoresha neza, ni nka bimwe mu muco w'abakera.

Gucukura inzira ziranyuramo amazi，ni bimwe bidufasha mu kwirinda isuri ndetse n'umuvuduko w'amazi agabanyuka，amazi iyo agiye mu mirima yacu atwara ubutaka， tugasigarana amabuye hejuru gusa tukabura aho duhinga.

Kera mu Gwanda ntihabagaho uburinganire, ariko ubu busigaye burabaho, n'abagore basigaye barishingira imirimo bagakora. Kandi dusigaye turabona ko kera twabavutsaga uburenganzira, tugomba kububaha bakisanzura bagakora. Reba nk'izi mitako, ugumanitse mu rugo ug'umutako gwaba ari mwiza cane.

Amayugi ni kimwe mu bikoresho bya gakondo bidufasha kwibuka umuco wacu, hato utazavaho uri gucika kuko amayogi bayakoreshaga bari kubyina imbyino zacu za gakondo.

Kera abaturage babohaga imyenda yabo bakayibohesha utu tuntu, ariko twabaye imitako. Na byo ni ibintu bisa neza, abantu mwaza mukatureba tumeze neza cane.

Udukono ni bimwe mu bikoresho bya kera bakoreshaga bari guteka ibiryo, ibiryo batekagamo byabaga biryoshye, wasangaga bihiye neza biryoshye kandi cyane.

Ingorofani ni kimwe mu ibikoresho umuntu yifashisha ari gutwara ifumbire, itaka, cyangwa n'ibindi bintu ibyo ari byo byose kikamworohereza akazi, ndetse no mu buzima busanzwe gifasha umuntu.

Kuva kera abakaraza bahozeho, abakaraza bazi kuvuza ingoma nta n'uwabasimbura nta n'uwabakurikira twese twimakaze umuco gwacu, abana bacu tubashishikarize kuba intore ndetse babe n'indahemuka.

Cagi ni igikoresho kidufasha mu gucaginga amatelefone yacu kugira ngo kuyakoreshe arimo umuriro yuzuye. kandi no kuyikoresha nabi bituma haba sirikwentegeri y'amashanyarazi, bigatera inkongi y'umuriro.

Mu Rwanda, ahantu henshi hamaze kugera imihanda,. Nubwo yaba atari kaburimbo, ariko ni umuhanda umeze neza, ku buryo imodoka yawucamo. Kandi mu Rwanda, twarasirimutse, buri wese agomba kwitwara nk'umusirimu, akanyura ahantu heza , tutiriwe turanyura mu binogo, usange ngo tugeze iyo tujya twanduye. Kagame akomeje kuduteza umu ...

Mu Rwanda iyo umuturage uwo ari we wese ahuye n'ibiza, kandi adafite ubushobozi bwo kongera kwisubiza ku iterambere yari ariho, yagana ubuyobozi bwe bukamufasha gukemura icyo kibazo, bukamwubakira iyindi nzu, kandi igezweho.

Ubwubatsi bw'amashuri n'ubwubatsi leta ishyiramo imbaraga nyinshi, kugira ngo abana bari mu muhanda bawuvemo bajye kwiga babone aho bigira kandi bige bazavemo abantu bazima kuko nibo Rwanda rw'ejo.

Niba uri umuturage muzima kugira ngo twese tubashe kwirinda malariya ugomba guca ibihuru biri iruhande rw'inzu yawe, ugacukura imyobo izajyamo amazi yanduye kandi kugira ngo buri wese yirinde iyo ndwara.

Urusengero runini, ni bimwe mu bintu bidufasha kuba twisanzuye turi muri urwo rusengero, kandi bikaturinda umwuka mubi ku buryo buri wese ahumeka umwuka mwiza, kandi mwiza cyane.

Kagame nta co atazatugezaho, aga n'amatara go ku muhanda. Tugendaga gari kutumurikira, ubu nta bisitaza twahura nabyo mu nzira. Kandi Kagame ni umusaza tuzamutora, tumutore, twongere tumutore. Ubu nta bisitaza twahura nabyo mu nzira zacu.

Buri buyobozi ubwaribwo bwose, bugomba kuba bufite ahantu hisanzuye, abaturage babusanga bakabagezaho ibibazo byabo, kuko buri buyobozi bwose bugomba kwita ku baturage nk'uko bikwiye.

Mu Rwanda haba abaturage batuye mu mudugudu w'icyitegererezo, ibyo byose tubikesha Nyakubahwa wa Repubulika Paul Kagame we wadukuye muri nyakatsi , akatuzana mu mudugudu w'icyitegererezo akatwubakira amazu meza, niwe muyobozi tuzatora kugeza apfuye.

Inzu zikigira amategura ntabwo zemewe kuko zishobora guteza ibibazo abaturage bakaba bahapfira bitewe n'umuyaga mwinshi. Tugomba ero kuzisana, tukazivugurura kugira ngo ejo hatazaduteza ibibazo n'ibyago.

Kubaka inzu zimeze neza bidufasha mu kwirinda ibiza byaza bidutunguye ,byatwara n'iyo nzu. Iyo nzu igomba kuba iziritse ,yubatse ikomeye, kandi neza cyane.

Erega buri wese agomba gusenga ariko agasengera ahantu hasirimutse, iyo ugiye gusengera ahantu hadasirimutse ahantu hadateye imbere, n'ibyo bintu biri mu bintu bimwe byagushira mu kaga.

Siporo y'igare biba ari ibintu byiza cyane ,kuko siporo y'igare ituma umuntu yongera ibihaha ,akabyongerera imbaraga zo guhumeka umwuka mwinshi, zikabika n'umwuka mwinshi.

Niba wubatse inzu, yubake neza uyitunganye uyigire neza, ku buryo hageze n'ibiza bishobora kuza ntibiyitware, cyangwa ngo byangize iyo nzu wubatse, igomba no kuba iziritse.

Kubaka insengero zigezweho ni kimwe mu bintu byadufasha kwirinda ibiza biri gutera mu iyi minsi, kandi izo nsengero tugomba kuzishira muri gahunda za Leta, kugira ngo hato nizihura n'ibibazo by'inkongi y'umuriro cangwa n'ibindi biza, ntituzabashe kubona imfashabuguzi yo kugira ngo dusane izo nsengero zacu.

Ago ni amatungo meza cane, gatangaga umusaruro kandi iyo ugisheho neza gaguhaga ubworozi bwinshi cane, ugatunga ugatunganirwa, ukiteza imbere, ukabitsa amafaranga, ugakura mu bukungu ndetse n'iterambere.

Ryama neza, niba utararyama kuri matela ya rwandafomu ndagushihikariza kuyiryamaho ,ni matera ivura amavunane ugasigara uvunana abakuvunagura. Ahubwo gira vuba vuba nyarukira ku isoko ,matela zitarashira, wigurire wihahire ,uryame hamwe n'abawe wiyumvire umudendezo.

Kubaka agasitade gato biba ari ingenzi mu mikurire y'impano z'abana bacu, abana bakina umupira ejo bazagera kure, ntitubime umwanya ahubwo tubashyigikire mu mpano zabo.

Buri muntu uwo ariwo wese, niba agiye kubaka inzu runaka, niba ari uri urusengero, niba ari inzu yo kubamo, agomba kuyikorera igishushanyo mbonera, kugira ngo n'uzayubaka azabashe kureba uko yubatse, ndetse n'icyo bashushanyije niba ari bimwe.

Buri kagari ako ari ko kose gategetswe kugira ibiro byiza, byubatse neza , bya kijyambere, kandi bikaba bifite na parikingi yo kugira ngo baparikeho imodoka zije kubasura.

Kagame ni umugabo, yadutuje mu midugudu y'ikitegererezo, adutuza mu mayetaje. Kagame tuzahora turi kumutora, tuzahora tumutora tuzamuhora inyuma aya mazu ntabwo twari kuzivana mu bukene.

Mu Rwanda habamo amazu meza, amazu y'abayobozi, amazu ndetse y'imirenge n' ay'uturere. Aba ari meza cyane, kandi ayo mazu aba afite parikingi, yo guparikamo amamodoka ayo ari yo yose ahageze.

Ibitaro bigomba kuba bifite ibitanda bihagije byo kugira ngo byakire abarwayi bagomba kuba mu bitaro cyangwa muri macye bahawe ibitanda kugira ngo bisanzure, bisagagure bagire n'umutekano.

Erega ntiwabaho utari gusenga, ja gusenga wibuke no gukora, utange icacumi ushimishe Imana ntizaguha ibyo wayisabye. Kandi twese tugomba kwitabira kuja gusenga kuko biratugize mu buzima bwacu bwa buri munsi, hatabayeho Imana ntitwabyuka.

Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaradufashije atwubakira ibiraro tugenda neza, ubu ngubu ahantu hari imikoki turahagenda, imodoka zikahanyura nta kibazo, ku buryo nta n'uwagira ikibazo muri iki gihugu.

Kuremesha inteko y'abaturage ni bimwe mu bintu bidufasha gusobanukirwa ibintu tutari tuzi, kandi tukageza ku bayobozi bacu n'ibibazo dufite, ibyo ari byo byose.

Iyo uri umuyobozi wegera abaturage mukaganira, biba ari byiza kuko abaturage bakubwira ibibazo bafite, ibintu bibaremereye cyangwa ibintu biri kubabuza umutekano, bafite umutekano muke cyangwa se n'ibindi bibazo.

Umuyobozi uwo ari we wese agomba kuba yitabira mu nama z'abaturage, akumva ibibazo byabo, akabafasha ndetse no kubikemura. Umuyobozi udakora ibyo bintu ntabwo aba agomba kwicara kuri iyo ntebe y'ubuyobozi.

Kuremesha inteko rusange ni ibintu bifashaga abaturage mu kwisobanukigwa, kwisanzura kandi bakabaza n'ibibazo babaga bafite kuko buri wese ntabwo aba ahuje ikibazo na mugenzi we. Bagomba kwitabira iyo nama kandi bose.

Umumotari uwo ari we wese agomba kugira ishyirahamwe abarizwamo ,kugira ngo aramutse agize ikibazo, iryo shyirarahamwe ryamugoboka akabona uburyo yakwikura muri icyo kibazo yagezemo.

Gutega imodoka muri gare ni ibintu bimwe biduteza imbere, kandi buri wese agomba kujya gufatira imodoka muri gare, ahantu habugenewe ho kugira ngo ziparike, zikaba zimeze neza kandi cyane.

Birabujijwe kunywera itabi impande y'imodoka itwaye peterori， cyangwa ayandi mavuta yatera inkongi y'umuriro， kuko ushobora kuhatera umwambi cyangwa igishirira cy'itabi， ugasanga uteje inkongi y'umuriro.

Buriya mu ndege habamo ibice byinshi cyane ugasanga hari nk'igice cyo hasi ,cyo hejuru, icyo hagati cyangwa ugasanga harimo n'ikindi gice k'ibikoresho by'abantu bari muri iyo ndege iyo ndege ari nini cyane.

Aha hantu amamodoka ahurira haba hariho abantu benshi, ni yo mpamvu ushaka wagenda wambaye agapfukamunwa kuko hari umuntu ushobora kuzamo yanduye indwara zandura ugasanga nawe urayanduye uyikwirakwije hose.

Mu ndege zo mu Rwanda ,abakozi baho ni beza. Bakora akazi kabo neza. Baragakurikirana, buriya ntako bisa kujya mu ndege ya Rwandeya. Iyo ndege iba ifite umutekano uhagije cyane.

Uruganda rw'abashinwa dore rwatuzaniye izindi modokari nziza. Tugomba twese kujya dutega tukagenda n'imodoka, pana kugenda n'amaguru. Buri muturage wese ahore kwisonga, twese twese twigendanire n'imodoka.

Gukorera mu makampani ni ibintu bidufasha cyane, kuko tugira aho tubarizwa, kandi tukagira n'aho duhembeshereza, ni ibintu bidufasha mu iterambere cyane.

Amatafari adufasha mu kubaka inzu zigakomera, nta n'ikibazo zifite izo nzu ku buryo nta gisambo cyapfa kuziba, amatafari aba ari meza anasa neza kuko baba barayakoze neza.

Erega kugira moto zicagingwa zitaja i Musanze bitumaga hataza imyotsi ngo ije mu kirere, usange ikirere cacu kiranduye maze tukabura imvura, tukabura n'izuba, ugasanga duheze mu buheraniro.

Buri mumotari wese ufite ikinyabiziga, agomba kujya mu ishyirahamwe ry'abamotari, akagira ishyirahamwe abarizwamo. Ndetse n'icyo kinyabiziga cye, akagishira muri asiranse, ku buryo hagize n'impanuka iza kuba, icyo kinyabiziga cye cyabona ubwishu, bikamurinda gusubira inyuma mu iterambere.

Nta mushoferi ugomba kujya mu muhanda adafite ibyangombwa bimwemerera gutwara imodoka, kandi nawe niyo yajyayo yagera mu muhanda agomba kwitwararika ,akitwara neza mu buryo azi gutwara kugira ngo hato bitaza kumukururira impanuka.

Sitasiyo y'amamodoka aba arimo abantu benshi ku buryo udafite ubwirinzi ushobora kwibwa, buri wese kandi agomba kubyirinda akagira ubwirinzi bw'ibintu bye afite kugira ngo bataza kumwiba.

Kwamamaza Kagame ntawe utabikora， n’abaveterineri barabikoze，kandi barabishobora. Ni yo mpamvu buri wese agomba kumutora yabishaka， ndetse nta n’ubwo ari agahato kumutora.

Amamoto akoresha amashanyarazi arinda ikirere cyacu kwangirika, ku buro kitajyamo imyuka mibi, bityo rero ikirere kikaduha n'imvura imeze neza, amazi asa neza, ku buryo nta myanda myinshi iba irimo, izo moto ziba ari nziza cyane.

Moto ni kimwe mu binyabiziga bishobora kwikorera ibintu byinshi cane, kandi ibyo binyabiziga buri wese ugifite agomba kuja mu tsinda abarizwamo ari byo bitaga amashirahamwe ku bujyo aramutse ahuye n'ikibazo yabona aho yirukira yabitse udufaranga yizigamye.

Umumotari wese agomba kugira ishyirahamwe abarizwamo ku buryo nahura n'ikibazo yakwirukira muri iryo shyihamwe rikamugurira utwo dufaranga akajya akemura kandi agomba no kwizigamira.

Mugomba kuja gufatira ibinyabiziga mu ma sitasiyo gabyo cyangwa mu magare gabyo. Aho bihurira ni hamwe, ugomba kuja gutega haba hariho abantu benshi nta kibazo wagira, umutekano gaba gari gose, n'amahoro mbese gaba gari gose.

Isuku ni isoko y'ubuzima. Buri wese aho ari aharanira kugira isuku ahararanire ko yaba asa neza mu abandi, ntahorane umwanda ,cyangwa ngo awugire, kuko umwanda ni mubi. Urica kandi butera indwara.

Gutwara ibintu byinshi kuri moto bishobora guteza impanuka, kuko ibyo bintu bishobora kukurusha imbaraga ugasanga biteruye moto igasubira inyuma, ukaba wakuramo n'urupfu.

Mu Rwanda niho haba amagare meza, amagare atavuna kuyatwara, amagare aba asa neza, ku buryo n'umukobwa yaritwara, na wa wundi utazi igare yaritwara, kuko iryo gare riba ari ryiza cyane.

Birabujijwe, imodoka iyo ariyo yose, ntabwo yemerewe guhagarara mu muhanda, ahantu hatabugenewe, kuko ukeneye gutega imodoka yayisanga ahantu ziparika zose.

Buri munyeshuri uwo ari we wese, agomba kujoyininga amagurupe, ayariyo yose, ashaka kujyamo yaba ay'umupira yaba ay'inkinamico, nayandi ma gurupe, gamufasha mu mitekerereze, ndetse no mu gukuza impano ye.

Abakobwa nimwitinyuke, mukore ntimuzatege amaboko ngo musabe abagabo banyu buri kimwe cyose, ahubwo namwe hari imikino mwashobora, mutari muzi ko mwayishobora. Nk'umukino wo gukina kiriketi, ni umukino woroha cyane bamwe mwawukina.

U Gwanda ni umujyi gusa neza cane, umujyi gw'amahoro kandi u Gwanda ni umujyi gw' Afurika gwabagamo amahoro n'umutuzo n'umutekano.

Buri kipe iyo ariyo yose iba ifite umuntu uri kuyireberera kugira ngo badakora amakosa, ari we bita umugenga w'ikipe cyangwa mu ndimi z'amahanga umukoci. Akocinga iyo kipe akayitoza neza.

Umukino gwa vole na hano mu Rwanda gwagezemo kandi tugukinaga neza kubona ko na bashiki bacu batinyutse bakaba baratangiye kugukina. Tubashigikire nabo babimenye, babyiteho, babishireho n'umutima.

Utudemi tubereyeho kuzamura impano z'abana nk'umwana uzi gukina umupira, umwana uzi gukora undi mwuga uwo ariwo wose , azamukira mu kademi kugira ngo uwo mwuga we n'iyo mpano ye abikomeze.

Umukino wa basiketi ni umukino ugoraga cyane. Ni umukino usaba umuntu kugira ngo abashe kwitupa cyane cyangwa kwidunda kugira ngo awugeze mu kantu kabugenewe ko gushyiramo uwo mupira.

Umukino wo gutera amacumu ni umukino utwibutsa umuco wa kera, ukuntu abami baforaga imyambi, amacumu, n'uburyo bateraga mu birometero binini cyane ku buryo uhasimbutse ntiwanahagera habaga ari harehare.

Baravuga ngo: "Umuntu watsinze aba akeneye guhabwa n'ibihembo". Umuntu uwo ari we wese watsinze， agomba guhembwa， niyo mpamvu n'iyo muntu yahembwe agahabwa ururabo， ndetse n'ibindi azahabwa，byose bizaba ari uko yatsinze.

Amakurusi ni imwe mu mikino ibera mu Rwanda, ikabaho neza kandi ikaba ifite umutekano, abapolisi babaherekeje bakagenda neza ku murongo.

Ubona bagore baritinyutse， nta mukino batakina，yemwe n'uwo gukina umupira barawukina， umupira w'amaboko， n’ubwo bavuga ngo uva ugoye，ariko abakobwa b’u Rwanda， barawutinyutse，barawukina.

Umukino w’amagare ni umukino utuma bamwe bagira ibihaha bikomeye, ku buryo buri wese wawugiyemo, yaba afite ubuzima buzira umuze, kuko n’umukino utoza umuco, ugatoza umuntu gukora siporo itavunanye kandi yihuse.

Umukino wa basiketi cyangwa umukino w'amaboko, ni umukino ukomera cyane. Bisaba kuba ufite uburebure bugiye hejuru cyane, kuburyo urakina umupira nta kibazo nta nkomyi uragira.

Erega mu marushanwa ayo ariyo yose buri muntu wese aba uwambere cyangwa akaba uwanyuma, ntawe ugomba gucika intege twese tuzatera imbere. Banyarwanda banyarwandakazi mwese mukomereze aho kandi dushyigikire n'abakobwa bacu batekwiheba.

Kwicara tugatuza ntidusagararire umutekano wacu, ni ibintu bimwe biturinda mu buzima bwa buri munsi, kandi kubaho dufite n'umutekano, tubikesha umuyobozi wacu paul kagame.

Imodoka z'amasiganwa zabaga ziri ku muvuduko mwinshi cane, ku bujyo hagize n'ikihitambika, yahita igitwara ubuzima. Ariko izo modoka zabaga ziri kwirukanka ku gwego gwo hejuru.

Gukora siporo muri abantu benshi bituma umuntu atananirwa bigatuma umuntu abona imbaraga, aba ari kuvuga ngo bagenzi banjye batansiga, akagira motivashoni ku buryo buhambaye.

Umupira wa volley, ni umupira wo gukinisha amaboko ntabwo ari uwo gukinisha amaguru. Iyo uwukinishije amaguru biwugiragaho ingaruka. Ariko iyo uwukinishije neza ,uri kugusigasira umara iminsi myinshi utarapfumuka.

Umukino w'amaboko ni umukino wo gukora cyane ku buryo uwari we wese atapfa kuwukina, ariko buri wese agomba kwitinyuka akikuramo iby'ubwoba, akawukina, biba biryoshye cyane kuwukina.

Guhagarara mu muhanda harimo ikindi gikorwa, bishobora kugutera impanuka ,ugasanga ukuyemo ingaruka z'urupfu, cyangwa n'izindi ngaruka izo ari zo zose ,ni yo mpamvu bibujijwe guhagarara mu muhanda, bavuze ngo abo ari bo bose bave mu muhanda.

Kwirukanka ni bimwe muri siporo ituma umubiri w'umuntu ukomera, ugakomera cyane ku buryo ntacyawuhangara. Umuntu wirukanka aba abangutse cyane ku buryo nta hantu atakwiruruka nta n'uwapfa kumufata.

Kunyura mu muhanda udasa neza udakoze ni bimwe mu mbogamizi zituma ibicuruzwa by'abaturage bitagera ku masoko. Kagame agomba kudukorera imihanda kugira ngo natwe tubashe kwiteza imbere.

Iyo uri mu muhanda uba ugomba kugendera ahabugenewe kugirango hatagira ikinyabiziga kikugonga, kuko ugendeye mu muhanda hagati, ushobora kugira ikibazo cy'impanuka.